Ingurube, ingurube iri mu kiraro iragaragara ku kigo cy'ubwishingizi kiri kwamamaza ubwishingizi n'ikiguzi cy'ubwishingizi bw'ingurube, hasi ruhande yanditseho amagambo radiyanti yacu hirya hariho nimero za telefone wahamagaraho.

Imitemeri ikorerwa mu Rwanda, ni imitemeri myiza cyane itatse ubwiza, imwe ifite amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, umukara n'umutuku wijimye, iyi mitemeri ikoreshwa nk'imitako mu nzu cyangwa muri saro cyangwa se ahandi hantu hatandukanye.

Iri ni iduka ry'imyenda, ririmo imyenda itandukanye yiganjemo iy'abagore n'abakobwa, irimo amabara atandukanye; amabara y'umutuku, amabara y'umuhondo, hari amatara ari kwaka, harimo n'umuntu wicaye, utegereje abakiriya yuko baza bamusanga.

Ikigo gikora ibijyanye no kwakira abantu kikabaha amafunguro, ndetse n'amacumbi. Ku ruhande rw'iburyo hari aho kogera. Nanone ku ruhande rwaho hari ubusitani buri mo intebe zo kwicaramo mu gihe cyo kuganira.

Umukobwa cyangwa se umu mama wambaye ikanzu nziza ifite imisatsi miremire yiteze nk'igitambaro yambaye renete uri kugura ibyo kunywa bidasembuye mu iguriro ry'i ryo kunywa.

Iri ni iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibikorerwa mu Rwanda bizwi ku izina rya medini Rwanda, birimo imitako itandukanye iri mu ka yetajeri, ibindi birambitse ku meza, hari n'amabara y'umutuku n'andi menshi atandukanye.

Mu rwanda hari abacururiza ku ikoranabuhanga nko mu Rukari. Wabagana ugatuma ibyo ukeneye byose bakabikugezaho utiriwe uva aho uherereye guhaha wifashishije ikoranabuhanga na byo ni byiza biradufasha.

Amafaranga ibihumbi bibiri by'amanyarwanda. Ni inoti y'ibihumbi bibiri. Aya mafaranga asohorwa na banki nkuru y'u Rwanda. Banki nkuru y'u Rwanda ninayo igenzura ifaranga ry'u Rwanda harimo niyi y'ibihumbi bibiri.

Aya ni amafaranga y'u Rwanda magana atanu, yanditseho BANKI NKURU Y'URWANDA, hakabaho ikiraro cyambukiranya mu ishyamba, hakabaho ku rundi ruhande abanyeshuri bicaye imbere y'imashini za mudasobwa biga, ni amafaranga y'u Rwanda magana atanu.

Aha ni ahantu hafatirwa amafunguro hicaye umugabo n'umwana bari kunywa, amata hagaze iruhande rwabo umuntu uri kubaha serivisi, uri kubakira ari kubitaho neza kuko bari kunywa amata y'ikigogoto kuko aba aryoshye cyane.

Aha ni ahacururizwa amata, amata ni ikinyobwa gikunzwe cyane, kigira intungamubiri zitandukanye kandi amata ni meza ku bana ndetse n'ababyeyi, umwana wanyweye amata neza ntago agira igwingira.

Aha ni ahafatirwa amafunguro ndetse n'ibyo kunywa. Abantu baricaye bari kunywa amata. Amata aturuka ku nka, bakayategura, bakayatunganya, akagurishirizwa muri za kantine n'ahandi hantu hatandukanye.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Repubulika ya Kongo. Ni amafaranga ibihumbi makumyabiri. Ashushanyijeho inyamaswa ndende cyane, izi ku izina rya Twiga.

Umuntu uri kubara amafaranga y'amadolari, ari kubara inote nyinshi cyane z'amadolari iruhande rwe hari mu bazi icyo twita nka karikiratirise ibara, ifasha mu guteranya no gukuba, no kugabanya ndetse no gukuramo amafaranga amwe n'amwe. Amadolari akoreshwa mu bikorwa byinshi bitandukanye no mu bihugu binyuranye.

Aya ni amafaranga, amafaranga y'amadorari. Bari kuyanyuza munsi y'akarahuri gato, bigaragaza ko umwe ayafashe, ari kuyahereza undi; uwakira n'uwakira. Bigaragara ko aha hantu ari kuri banki, baherezanya amafaranga.

Intebe z'amadive. Izi ntebe ni izicarwaho, zishyirwa mu masaro, ni nziza cyane. Izi ntebe zikorwa mu mbaho bagashyiraho imisego, ziba zikeye kandi zisirimutse. Izi ntebe ziragurwa cyangwa zigakoreshwa mu mabarizo.

Ni ameza yo kuriraho akikijwe n'intebe esheshatu zikozwe mu mbaho, zisize verine ziri ahantu hakeye cyane, hagaragara y'uko ari nko muri saro cyangwa se mu ruganiriro.

Aba ni abantu batatu, umwe muri bo asa nk'ukuze, ni umudamu wishimye afite umwana mu ntoki, hari undi uryamye wambaye ibintu by'umweru bisa nk'aho ari kwa muganga, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango, ni amagambo yanditse ku cyapa cyamamaza baherereyeho.

Intebe z'amadiva ziteretse imbere y'umuryango w'iduka, ahacururizwa intebe. Izi ntebe zifite ibara ry'umweru n'umukara, mu ruhande unyuzemo akarongo k'umuhondo; izi ntebe ni nziza kuzicaraho ndetse zigira isuku.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Iyi ni inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye by'ibikoresho byo mu nzu bikozwe mu mbaho, kahaba harimo ameza n'intebe, utubati dutandukanye tw'imyenda n'utwo gushyiramo ibyombo, two gushyiramo ibintu bitandukanye, ndetse n'utundi tuntu two gushyiramo imitako.

Iyi foto iragaragaza urupapuro rukoreshwa mu mahoteri, mu maresitora no mu zindi nyubako zicuruza ibyo kurya, igaragaza ibiciro bitandukanye by'ibyo kurya bitangwa bene aho hantu.

Iyi ni inyubako ndende cyane. Iriho imitako y'imigongo igaragara ko igeretse inshuro nyinshi, kandi ku ruhande rwayo bigaragara ikirere gisa ubururu bw'ikirere.

Iyi ni inyubako nini igaragara ko ari inyubako y'ubucuruzi itangirwamo nandi ma serivisi atandukanye. hariho icyapa bitandukanye kimwe kiri mu mabara y'umutuku n'umweru yanditseho amagambo sonerwa jeneral, ikaba ari ikigo cy'ubwiteganyirize gikorera kimironko.

Aha ni kuri inguka fiyinense hahagaze abakobwa cyangwa se abamama batanu bambaye imikenyero ya kinyarwanda yo mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Bambaye n'udusengeri tw'umutuku kandi bose bitambiye ingori.

Iri ni isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda n'inkweto, garagaza inkweto nyinshi ziri hasi zimwe zisa umutuku, umuhondo, umukara, iroza, harimo n'amazu ashakaje amashitingi cyangwa se amahema akorerwamo ubucuruzi bw'imyenda.

Iri ni iduka ricuruuruza ibicuruzwa bikorerwa mu rwanda madi ini Rwanda igaragazaho imitako itandukanye mu mabara atandukanyey'umweru ay'umukara y'umuhondo n'andi atandukanye hakaba hariho n'amajipo akozwe mu bitenge byo mu rwanda.

Isoko ricuruza ibiribwa n'ibikomoka ku mbuto ndetse n'imboga. Abantu badanditse ibiribwa byabo hasi no ku tumeza harimo; inyanya, ibitunguru, amashu, karoti n'ibindi bitandukanye.

Gatoya cyane kari mu mabara y'umuhondo k'ikigo gakorerwamo n'abakozi b'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya emutiyene, hahagazeho abantu babiri bari kwaka serivisi umu ajenti wa emutiyene.

Akazu gato cyane, kaba ku muhanda kari mu mabara y'umuhondo, ikigo cy'itumanaho kizwi nka emutiyene gakorerwamo n'umu ajenti, hagaragara umukiriya uhagaze m'idirishya yaka serivisi z'itumanaho.

Aka no akazu gatoya, ka Eyateli, mari mu mabara y'umutuku, gakorerwamo n'umukozi ushinzwe guha abantu amayinite cyangwa se kubabikira amafaranga ku matelefone yabo, uwo bita umu ajenti.

Ifoto igaragaza abantu batatu. Umwe ari kwitaba telefoni, undi ari kuri telefoni, imbere yabo hateretse akantu kanditseho momo peyi. Hari umwe wambaye umupira w'umukara, w'umumama, yambaye n'akagofero, na direde. Hanyuma ikigaragara bose bambaye ingofero. Hari ibyapa bigaragaza ibyo kurya bitandukanye n'ibiciro byabyo.

Ifota igaragaza umuntu wicaye kuri moto afite igikapu mu mugongo yambaye umupira wa tisheti n'isaaha ku kuboko ari guseka cyane amwenyura afite amasoso n'ubwanwa yambaye ipantalo y'umukara na moto iparitse.

Iyi ni inzu nini mu buryo bugaragara isize amabara y'umweru n'ubururu hejuru ndetse n'umukara ku madirishya n'inzugi ku ruhande hari ubusitani bugaragara neza ubona butoshye, butanga umuyaga ku bagenda bose.

Inyubako nziza cyane yo guturwamo. Igeretse rimwe, ifite urugi runini rwo ku marembo rusize amarangi y'umukara. Uru rugi rukingurirwa mu muhanda, ruba rufite akaryango gatoya abantu binjiramo, cyangwa se rugakinguka rwose hari kwinjira ibinyabiziga.

Iyi ni inzu igeretse bigaragara yuko ari inzu yo gukodesha, hejuru y'iyo nzu hageretseho ibigega bitatu binini cyane bisa n'ibara ry'umukara, n'amasikariye azamuka hejuru yinjira ku nzu ibirahure bisa neza kandi bikenye cyane.

Inyubako ya kadasiteri, iriho igipangu kinini kandi cyiza cyane. Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hagati hakaba harimo ibyuma bikoze icyo gipangu. Iyi nyubako ni nziza cyane kuyibamo wayikodesha ikaba iherereye i Kanombe.

Iduka rinini cyane rizwi nka superimarishe, habonekamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Umuntu agenda afata ibicuruzwa afashe ashyira muri aka gatebo, cyangwa se gatwaramo ibintu. Ni kenshi amasuperimarishe habamo ibicuruzwa byinshi cyane, kandi ahahirwamo n'abantu biyubashye.

Aha ni mu iguriro rinini. Harimo abantu batandukanye, bamwe bari guhaha ibintu bitandukanye. Hahagaze umugabo munini ukoze mu mifuka, yambaye agapfukamunwa nka kamwe usanga mu baganga.

Iduka rinini cyane ririmo ibyo kunywa bitandukanye, harimo ibisembuye n'ibi bidasembuye, ibisembuye harimo inzoga ziri mu macupa manini ndetse n'amatoya, ibidasembuye nabyo biri mu macupa manini n'amatoya, harimo ubwoko bwinshi butandukanye kandi bwiza.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu kwivuza mu Rwanda, ara esesebi, umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru bari kwishima cyane bamwenyura baseka banezerewe kuko biteganyirije ejo hazaza.

Ababyeyi babiri bafite udukarita tw'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki, biteze ibitambaro mu mutwe bombi, ndetse umwe agaragara nk'uhetse umwana, kuko afite igitambaro batwikiriza umwana, iyo bamuhetse.

Abantu babiri bishimye cyane umugabo ndetse n'umugore, umwe arahereza undi impano y'ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda. Barishimye cyane kandi agaragaza ko kwiteganyiriza ari ibintu byiza.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Iduka ricuruza imbuto bo umukozi w'umukobwa uri gupanga imbuto neza mu mwanya wazo harimo ibiribwa bitandukanye muri iri duka birimo karoti, amashu ndetse imbuto za pome n'ibindi bitandukanye.

Iduka rinini cyane rihahirwamo n'abantu biyubashye, iduka nk'iri rizwi ku izina rya Supermarcehe cyangwa Super Market, ahanini ririmo ibintu by'ubwoko bwose habamo: ibicuruzwa byo kunywa, ndetse n'ibiribwa, habamo amavuta ndetse n'imyambaro.

Aha ngaha hari umuhanda mwiza cyane uri kugendamo iki nyabiziga, pikipiki imenyerewe cyane mu gutwara imizigo cyane cyane ibicuruzwa bikura ku masoko ibijyana ahandi ni ipikipiki ifite ibara ry'ubururu uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'amatara amuririka ibinyabiziga kumuhanda mugihe cya n’ ijoro.